Ibigori iyo bimaze gukura byavuye ku butaka bigeze hagati, barabisukira bakoresheje ifumbire mvaruganda, ufata akadobo maze ukagenda ucucira iyo fumbire impande y'uruti rw'ikigori, maze ikamanuka mu butaka, ikajya mu mizi, maze ibigori bigashisha.

Mu nzu icuruza inyongeramusaruro n'imiti hejuru y'utubati hateretseho amapombo yifashishwa mu gutera imiti mu myaka ndetse n'amarazwari yifashishwa mu kuhira, mo imbere mu tubati harimo amasashi n'amacupa arimo imbuto zitandukanye zihingwa cyane cyane izo mu bwoko bw'imirama.

Mu nzu ifite urugi rw'ibiti hababyemo igipapuro gishushanyijeho ubwoko butandukanye bw'imiti yifashishwa mu kuvura indwara ziba zatatse ibihingwa, ahantu icyo kintu giteye hariho idirishya na ryo rikoze mu mbaho.

Mu nzu zicuruza imiti ikoreshwa mu kuyitera mu myaka igihe harimo indwara cyangwa ari ukongera umusaruro, haba harimo utubati tw'ibyuma duteretseho utujerekani, imifuka, ibikarito n'amacupa birimo ya miti.

Hari ubwoko bw'ifumbire bukorwa bafata ibyatsi bakabivanga n'itaka, maze bagashyiramo udusimba tukabishwanyaguza maze igahinduka ifumbire y'imborera, irakora cyane iyo udafite amatungo ahagije ku buryo akora ifumbire ukeneye, ukoresha ubwo buryo.

Mu buhinzi uba usanga hifashishwamo inyongeramusaruro zitandukanye n'ifumbire ziva mu nganda n'ibindi. Iyo abaturage b'abahinzi bageze mu gihe cyo gukacura bazana ifumbire mvaruganda maze bagasukira nk'ibigori byabo cyangwa indi myaka bifashishije ifumbire.

Umuceri ni igihingwa cyiza. Rimwe na rimwe iyo abantu bawuhinze kera, abayobozi bafite ubumenyi buhagije ku bijyanye n'ubuhinzi, baraza maze bakareba uburyo wifashe, bityo bakajyana amakuru arebana n'uburyo bazigisha abaturage uburyo bawitaho.

Utubati tw'umweru n'utundi dufite amabara ajya kuba umutuku hateretsemo amashashi aba arimo umurama n'izindi nyongeramusaruro, harimo kandi rozwari zifashishwa mu kuhira.

Kugira ngo ubone umusaruro uhagije, ni byiza ko utera umuti, kugira ngo urwanye ibyonnyi, bityo nusarura uzakuremo uhagije. Niyo mpamvu mu murima, harimo umugabo uhetse ipombo irimo umuti, ari kugenda atera ku bihingwa yateye uwo muti, kugira ngo azabone umusaruro uhagije.

Mu mazu ashya atandukanye acuruza imiti y'amatungo usanga harimo utubati cyangwa udutajeri turimo ibikarito birimo ya miti utubuni ndetse n'amacupa yabugenewe byifashishwa mu kubika imiti.

Imiti y'amatungo, imbuto nziza, inyongeramusaruro, ni amagambo yanditse hejuru y'ibishushanyo birimo karoti, inyanya, igitunguru n'ishusho y'inka. Biri ku nzu isize irangi ry'umuhondo kandi aho ni aho bacururiza iyo miti.

Hari abantu baba barize ibintu bijyanye n'ubuhinzi, iyo bigeze mu gihe cyo guhinga cyangwa mu gihe cyo gutunganya ifumbire baza bagafasha abaturage baberekera ibyo bakwiye gukora, impande y'insina zimibyare hari abantu benshi bafite ibyo bari gukora, hari abambaye ibisurubeti by'ubururu bigaragara ko bari kwerekera abahinzi ibyo bagomba gukora.

Abahinga mu bishanga usanga baraciye imigende itambukamo amazi, kugira ngo ya yandi aba ari mu mirima agende anyega, maze ajye mu migende atembe, ni byiza kandi guca imigende kuko iyo umuntu ahinze imyaka yuhirwa ya mazi aba yaragiyemo atendera niyo wifashisha uri kuhira.

Mu bigori, umugabo wambaye ingofero y'urugara, ahetse ipombo ari guteramo umuti. Iyo uteye imiti mu bigori byawe cyangwa mu yindi myaka, iyo ari yo yose bibirinda kwatakwa n'indwara z'ubwoko butandukanye.

Amateke yera atinze. Abantu iyo bayahinze basarura indi myaka maze bakayategera, kuko ugiye kuyakura nk'igihe indi myaka yerera ntabwo wayarya aba ari mabisi, ni yo mpamvu ukwiye kuyareka akera, maze ukayateka ameze neza nta kibazo afite.

Ikawa ni igihingwa ngengabukungu. Ahantu hari umurima wuyumagaye, harimo ikawa ikiri nto ariko ufite amabi atoshye. Ikiganza cyiyifasheho ndetse kiri kugenda gikuraho utwatsi ku ruhande rwayo.

Ibirayi ni igihingwa gikunda guhingwa ahantu mu misozi nko mu majyaruguru n'ahandi. Iyo byeze ababihinze babishyira mu mifuka maze bakabijyana ariko iyo bari kubikura, babinaganaga hasi mu rwego rwo kugira ngo izuba ribiveho maze byumuke.

Ibihoho, ni ishashi iba ifite ibara ry'umukara cyangwa umweru, bashyiramo itaka ryinshi ririmo ifumbire, maze bagashyiramo urugemwe runaka rw'igiti. Bakarwitaho, maze rugakomera rugashora imizi. Bakazafata ya shashi bakayikuraho maze urugemwe bakarutera mu butaka, rugakura rufite ubudahangarwa.

Abagore benshi ndetse n'abakecuru bafashe mu ntoki amabase arimo intoryi barangije gusarura, aho bari hari izuba ryinshi ndetse inyuma yabo hari ishyamba rizitiye ubona ko ririmo ibiti byinshi.

Mu mirima yegeranye n'ahantu hateye ibigori byumye, harahinze ndetse hagati y'umurima umwe n'undi haciyemo imigende irambitswemo ibisigazwa by'ibigori byumye, bihagazweho n'umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro.

Nubwo ntakintu kuraba kw'ibirayi bimarira, ariko ibyinshi iyo bitoshye biraraba. Kugira ngo umenye ko ibirayi byawe bigeze mu gihe cyiza cyo gusukirwa urabibona, kuko bitangira kuraba, bityo rero niba uri umuhinzi uhita ukangukira kujya gushyira ifumbire impande yabyo.

Ikawa ni igihingwa cyiza. Iyo yitaweho ikura neza, igatanga umusaruro uhagije. Uyifite ntiyicwa n'ubukene, kuko iyo yeze umusaruro uvaho, umugirira akamaro. Ahantu hari ubutaka burimo amabuye menshi, ikiganza gifashe ku ikawa, bigaragara ko, kiri kuyisukura.

Niba uri umuhinzi jya ukangukira guhinga indimu, ni igihingwa kiza gitanga umusaruro uhagije kandi gifite akamaro, zifashishwa mu koroshya inyama mu kurwanya indwara z'uruhu no mu bindi bitandukanye, hari n'ibinyobwa byinshi baba bikozwa muri izo ndimu.

Isombe yera ku myumbati. Niyo mpamvu kiriya giti cy'imyumbati kiba gifite akamaro kanini kuko kiribwa imizi ari yo myumbati nyirizina kikaribwa n'amababi ari yo sombe yiyifashishwa nk'imboga. Ushobora kurisha isombe imyumbati.

Mu bice bitandukanye, cyane cyane mu Buburarasirazuba no mu Majyepfo, haba igihingwa cyitwa umuyenzi. Abantu benshi bakifashisha mu kuzitira amafamu n'imirima yabo. Kiba gifite amata, iyo ukivunnye hasohokamo ay'umweru afatira ku buryo iyo uyakoshejejeho urutoki uyumva.

Insina z'ibitoki ni igihingwa cyiza, ntabwo bigombera ko umuntu azitera zonyine ahubwo hari n'ubwo azivanga n'indi myaka, ahantu hatuburirwa ingemwe z'imbuto zitandukanye naho bahatera insina z'imibyare kandi ntibigire icyo byangiza.

Nta kabuza buri muturarwanda wese azi akamaro k'inyanya. Ku bazihinga zibabyarira amafaranga, naho ku bazisarura baba bakeneye kuzirya na bo bakabasha kugira vitamini bunguka bitewe n'uko abahinzi bahinze izo nyanya.

Ishashi ikomeye ifite ibara ry'umweru yandikishijweho amagambo ari mu nyuguti z'umukara, hejuru hari ayanditse mu nyuguti nini naho hasi hari amato. Handitseho garama magana atanu n'andi mazina avuga ubwoko bw'uwo muti.

Mu gihe cyatambutse, abantu batekerezaga ko imbwa atari itungo ryakorerwa mu rugo. Nyamara ubu ngubu imyumvire yarahindutse, niyo mpamvu usanga abaturage bazifite. Bazijyana kwa muganga, bakazivura iyo hari ikibazo zifite ndetse bakanazikingira kugira ngo zitarwara ibisazi.

Umunyarwanda wese yifuza korora inka, n'ubwo bimeze gutyo ariko hari igihe ugira ibyago maze igahura n'indwara z'uruhu maze inka ikangirika ikamera nabi bigasaba guhora uyivuza ukahatikiriza amafaranga, ni byiza rero kuyitaho kugira ngo izi indwara z'umwanda zitazayataka.

Hari imiti y'amoko menshi yifashishwa n'abaturage b'aborozi, bigatuma barwanya indwara mu matungo yabo. Hari uba mu icupa rirerire ry'umweru n'irindi ry'umukara, uba wometseho igipapuro cyanditse mu magambo y'umukara n'umweru, kiba kiriho irange ry'umweru, umuhondo n'umukara.

Inkwavu ni amatungo yororwa mu rugo, akenshi usanga barayubakiye akazu abamo ku buryo anyara maze inkari zikajya hasi, aba afite amatwi maremare n'amaso manini abengerana cyane ku buryo iyo uyarebye wirebamo.

Abagabo n'abagore bakoranye, bari guhinga. Bari ahantu hegereye umurima urimo ibigori ndetse n'insina z'ibitoki. Begeranye kandi n'ibiti bikurura imvura kandi bigatera umwuka mwiza.

Ubuhinzi bukorwa neza bitewe nuko bwateguwe. Ahenshi mu mirima abaturage bafata amasuka maze bagaca imyobo, bakurikije ingano y'umurima bashaka, baba barahinze ahantu hagutse ariko bakagenda bacamo uturimo dutoduto, bitewe n'ibyo bashaka kuhahinga.

Abaturage cyane cyane bo mu byaro, iyo bari guhinga bavanga imyaka kuko akenshi usanga batarasobanukiwe akamaro k'ubuhinzi bwa kijyambere buhinga igihingwa kimwe, niyo mpamvu usanga ahantu baba bahahinze benda gutera ibishyimbo haba harimo n'ibindi bihingwa nk'insina z'ibitoki n'amateke.

Umurima ku gihe cy'izuba abaturage bafata uruhombo bakarushyira ahantu hari amazi, maze bakuhira imyaka yabo, batitaye ko izuba ryinshi ryacanye, bigafasha kubona umusaruro uhagije kuko imyaka ituma bitewe n'iryo zuba.

Mu byaro ndetse no mu gihugu muri rusange, abaturage bafata umunsi umwe bahuriyeho, cyane cyane ukunda kuba ku munsi w'umuganda, bagakora ibikorwa bigiye bitandukanye bibafitiye akamaro, nko guharura imihanda no kuyitunganya n'ibindi.

Abaturage benshi, bateraniye hamwe bafite amasuka, bari guhinga iruhande rw'umuhanda, bacamo umuyoboro uzajya unyurwamo n'amazi. Akenshi iyo imvura yaguye, ibitengu biraza bigasiba imihanda. Niyo mpamvu abaturage bataranira hamwe maze bakajya kubikuramo, bagasukura imihanda yabo.

Abantu benshi iyo bari guhinga mu mirima yabo bashyiramo intoki kuko ni igihingwa cy'ingenzi, nyamara na none ku murima hepfo aho uherera bahatera urubingo bashobora gushingiriza ibishyimbo cyangwa bakarwahirira inka.

Ubuhinzi bw'ibigori, bufitiye akamaro igihugu cyacu. Iyo umuturage yabihinze, we ku giti cye bimugirira akamaro ariko n'igihugu muri rusange kuko kibasha kubona ibiryo. Mu murima urimo ibigori bitoshye, harimo abagabo n'abagore benshi, bari gusobanurirwa uburyo ibigori bihingwa.

Abagore iyo bari guhinga, bakunda kugira inkuru nyinshi baganira. Akenshi iyo bari kumwe n'umugabo, uba usanga bamuvunishije. Batatu bari guhingana n'umugabo mu murima, umwe ahindukiye yataye umurimo we, ari kubarira abandi begeranye, inkuru.

Ubuhinzi ni igikorwa cy'ingenzi buri muturage wese akangurirwa gukora. Iyo wahinze neza, ukita ku butaka bwawe, bukamera neza, ubona umusaruro uhagije bityo bikakuvana mu bukene. Niba nawe warigeze gutekereza gukoraho umushinga w'ubuhinzi, genda ugure isuka maze uze uhinge nkuko umugabo wambaye ingofero y'umweru, umupira w'umukara, bote, ipantaro y'umutuku ari kubigenza.

Abaturage benshi bahurira mu bikorwa by'ubuhinzi kuko nibyo bitunze umubare mwinshi w'abanyarwanda. Bajya mu mirima bagatabira ahantu hari imisheke cyangwa hadahinze kugira ngo bazabone uko bazateramo imyaka hameze neza.

Kugira ngo umuntu abashe kubona umusaruro uhagije, ni ngombwa ko yita ku bihingwa bye. Niyo mpamvu abagore babiri n'umugabo umwe, basutamye bari kubagara bakura ibyatsi mu myaka bateye kugira ngo ikure neza.

Abaturage benshi biganjemo abagore nubwo n'abagabo batatanzwe, bari mu murima bari guhinga ahantu hari umushike mwinshi, inyuma yabo hari ibihingwa bigiye bitandukanye birimo insina z'ibitoki, ibiti by'imirwanyasuri n'ibindi.

Inzu z'ubuhunikiro ni zimwe mu bintu byitabwaho mu rwanda, uba usanga haba harimo ibigori byinshi abantu basaruye maze bakabizirika bicuritse, kugira ngo bibashe kuma kandi ntibyangirike bitewe n'ubukonje.

Ibijumba ni ikiribwa gifite akamaro. Iyo ubiriye ugira imbaraga. Kiri mu bihingwa twita ingandurarugo, kuko abenshi babyeza barabirya, cyangwa bakabijyana ku isoko bakabaha amafaranga ariko n'ubundi bigahita biribwa.

Imyumbati ni ibihingwa bifitiye agaciro n'akamaro abaturage n'Abanyarwanda muri rusange, iyo yeze umuntu arayifata akayikuraho ibihu by'inyuma maze akayiteka, ku bahinzi bayo iyo bamaze kubona umusaruro barawugurisha, bityo bakabona amafaranga.

Ibigori ni igihingwa cyiza, iyo umuntu agisaruye akacyanika maze akagihungura bivamo kawuga cyangwa ifu y'ibigori, ni byiza rero ko byitabwaho kugira ngo bijye bitanga umusaruro uhagije, impande y'inzu yubakishije ibyondo hari abagore benshi bari kwanika ibigori.

Ibigori, amasaka, ingano, ubunyobwa, ni imwe mu myaka ihingwa maze igasarurwa, ishobora guhunikwa abantu bashyize mu mifuka, niyo mpamvu hanze ahantu hari urumuri rwinshi, hateretse imifuka irimo ibigori n'ibindi birimo ingano n'ubunyobwa.

Ibirayi ni kimwe mu gihingwa Abanyarwanda benshi bakunda guhinga kandi bakunda kurya. Ni byiza kuko ushobora kubirya mu bwoko butandukanye, biri mu mavuta cyangwa bitogosheje ndetse bikorwamo n'ibindi bintu bitandukanye, birimo nk'amafunguro afatwa nyuma yo gufata ifunguro rikuru.

Umuceri ni igihingwa cy'ingenzi. Abagihinga ni bo bazi akamaro kacyo, gitanga umusaruro uhagije kandi ku ugihinga abona amafaranga kuko hari inganda ziwutunganya ziza zikawumugurira maze akabasha kwikenura.

Imyembe ni kimwe mu bihingwa biterwa mu bice byinshi by'igihugu cyane cyane mu burasirazuba cyangwa ahandi hantu haba izuba ryinshi, ivangwa n'indi myaka harimo nk'insina z'ibitoki ndetse n'ibigori.

Mu busitani iyo hateyemo ibiti birebire, birafasha kuko bituma abantu babwicayemo bahumeka umwuka mwiza, mu mucaca ukozwe mu buryo ubusitani bwaho buba busa neza, hateyemo igiti gifite amababi y'icyatsi n'andi y'umuhondo.

Ibihuru ni ahantu haba hari uruhuri rw'ibyatsi byinshi, biba bitaritaweho kuko banyiri iyo mirima, baba babona ntacyo byabamarira. Haba harimo amoko atandukanye azwi n'atazwi.

Mu gihuru kirimo ipera rikiri rito cyegeranye n'ibiti birebire, ni byiza gutera ibiti kuko bifiye akamaro, kanini bituma abaturage babona umwuka mwiza wo guhumeka kandi bikurura n'imvura.

Igiti ni ingenzi, gikurura imvura kandi gitera umwuka mwiza ku bantu begereye aho kiri, ni yo mpamvu mu mucaca bigaragara ko ari uw'ubusitani hateyemo igiti hagati, gituma muri ubwo busitani hazajya hazamo agacucu ku buryo umuntu yicaye ahumeka umwuka mwiza kandi atekanye.

Mu ntsina ntabwo biba ari igitangaza kubona hateyemo ibiti bibyara imbuto. Impande y'inzira hari umurima urimo ibigori, insina ndetse n'igiti kirekire gifite amashami manini. Hejuru yacyo, hari urusinga rw'amashanyarazi ari gutambuka aho hafi.

Ishyamba ni ikintu cy'ingenzi kuko ibiti biba biyateyemo bikurura imvura kandi bigatuma n'abaturage babona umwuka mwiza wo guhumeka, ni ngombwa ko tuyatera, tugatera ubwoko bugiye butandukanye kugira ngo tujye tubona umwuka wo guhumeka.

Tangawizi abantu benshi ntabwo bazi akamaro kazo nyamara ni ingenzi, barazihinga zikera, niyo umuntu arwaye indwara ijyanye n'ibintu by'ubuhumekero akayikoresha amera neza. Niyo mpamvu tudakwiye gukerensa umumaro wayo.

Amashyamba ni ingenzi, ni yo mpamvu akenshi, ahantu hava izuba ryinshi uyahasanga, nubwo aba atarakuze neza aba yarazonzwe, ariko aba ahari. Mu murima uri hafi n'ishyamba, harimo imboga zimeze nabi zatangiye kuraba z'imbwija. Ntiwazirya kuko zifite isura mbi.

Abaturage benshi biganjemo abakuru n'abana, bikoreye amabase arimo ingemwe z'amatunda bagiye kuyatera, bogiye kuyafata muri pipiniyeri maze bajya kuyatera mu mirima yabo kuko ari ingenzi.

Ahatunganyirizwa ibiti hitwa muri pipinyeri, hubatse akazu hejuru gasakaje ibyatsi, hasutamyemo abagabo babiri bari kurandura utwatsi muri bya biti bigemetse kugira ngo batume bikura neza.

Hejuru y'ikintu cy'ubururu, harambitseho imineke iri mu maseri ane, myinshi ihiye. Ni myiza kandi umuntu ayiriye yaryoherwa. Niba nawe ukunda imineke, jya unyarukira ku isoko, uyihahe kuko ifiti akamaro kanini umubiri.

Ubusitani bukikijwe n'indabo z'icyatsi n'iz'umuhondo, burimo agati hagati gafite indabyo, ndetse ubwo busitani bugizwe n'umucaca umuntu ashobora kwicaramo.

Mu isoko iyo ugiyemo usanga harimo udutanda bacururizaho ibintu bigiye bitandukanye. Abacuruza imboga usanga bazirambura kuri utwo dutanda, maze umuguzi akaza akaba ariho azisanga. Ku gatanda gacururizwaho imboga harambitseho ibitunguru bike bitageze ku kiro.

Watermelon ni urubuto runini, rukunda kuribwa n'abagore. Ruba rufite inyuma amabara y'icyatsi, n'akandi kajya gusa umweru. Iyo ugiye mu isoko cyane cyane aho abacuruza imboga n'imbuto, urushaka ntago warubura.

Ntakabuza buri munyarwanda wese azi akamaro k'inyanya, yaba abazihinga babona amafaranga kuko iyo zeze barazigurisha kandi bakagira imibereho myiza kuko barazirya. Ku batarazihinze bajya ku isoko bakazigura zazanyweho na babandi bazihinga.

Ahantu hari igitambaro cy'amabara y'umweru n'andi menshi atandukanye harimo umuhondo n'umutuku, hariho imineke myinshi myiza ubona ko yatunganyijwe, niba udakunda imineke warahombye, kuko igira intungamubiri nyinshi zitandukanye.

Imbwija, ni imboga abaturage bo mu Rwanda bakunda guhiga cyane cyane abo mu byaro, zikoreshwa mu ma hoteli, mu ngo z'abaturage n'ahandi, sizo zonyine kuko na karoti ni imboga abaturage bakunda cyane cyane b'abanyarwanda.

Mu isoko ry'imboga n'imbuto, iyo ugiyemo usanga hari abantu bacuruza ubwoko butandukanye bw'imbuto, burimo pome, ibinyomoro, amatunda, watarmelon, inanasi, amaronji, imyembe, n'ibindi. Bafite umunzani, bagupimiraho iyo ugiye ushaka ingano runaka y'izo mbuto.

Indabo ndende zifashishwa mu gihe umuntu ari gukora ubusitani, akenshi uba usanga zifite amabara atandukanye nk'icyatsi n'umuhondo, iyo zikikije ubusitani abantu babwicayemo ntibabasha guhungabana kuko ziba zikoze urugo.

Mu ibasi y'ubururu harimo imboga ndetse n'inyanya, ninziza ziratoshye bigaragara ko uwariwarazihinze yazitayeho ku kuruhande kandi mu kandi kabasi gato harimo tungurusumu naho mu kandi nako k'ubururu hari imiteja, hasi hararambitse kokombure bigaragara ko ari ku isoko.

Ibinyomoro ni zimwe mu mbuto abaturage bakoresha mu kurwanya ikibazo cy'amaraso make, byera ku biti birebire biba bifite amababi y'icyatsi na yo manini, biba bifite udushami kandi byera amatunda, ayeze atukura ndavuga ibinyomoro na ho ateze akaba ari icyatsi.

Mu isoko iyo ugiyemo ahantu bacuruza ibitunguru, urabihasanga, bityo ukaba wabasha kugura bikakugirira akamaro, ababicuruza baba bagamije kugira ngo uza kubigura, aba ari umuntu udahinga, ariko abashe kubona icyo arya. Abantu babihinga nabo babijyana ku isoko, maze abaguzi bakaza kuva muri ba bandi bavuye mu mijyi, n'ahandi hantu badahinga.

Uturima tw'igikoni ni gahunda yafashwe na Leta mu rwego rwo kugira ngo abaturage bajye babona imboga mu buryo bworoshye bahangane n'imirire mibi, hari abana b'abanyeshuri akenshi baba barangije amashuri yisumbuye bafasha abaturage bo mu byaro kutwubaka.

Ku nkoko hanitseho pavuro nyinshi zifite ibara ry'icyatsi ndetse iyi nkoko yo itetse ku mifuka itandukanye, umuntu ufite intoki nziza zitariho inzara ndende afashe kuriyo nkoko bigaragara ko ashaka gufata pavuro imwe.

Ibiti ni ingenzi, iyo uri ahantu biri uhumeka umwuka mwiza ndetse n'iyo ubitemye ukuramo umusaruro kuko ni yo soko y'inkwi kandi bigira akamaro cyane cyane ku bantu babihinze.

Kugira ngo umuntu wahinze amashu abone umusaruro uhagije, mu gihe cy'izuba, bimusaba kujya ayuhira. Ariko niko bimeze no ku zindi mbuto nka beterave n'izindi, ariko nubwo ibyo byose bikorwa ntabwo wakuhisha amaboko ngo uzabivemo, niyo mpamvu iyo umuntu afite umurima ashaka umupira maze akawushunika ahantu hari amazi menshi, maze akaba ariwo agakoresha ari kuhira.

Iyo umuntu yahinze pavuro cyangwa urusenda, arazura kubera ko ku gihe k'izuba zirapfa, ugasanga ubuze umusaruro uhagije, niyo mpamvu niba wahinze izuba rikava ujye wifashisha umupira maze wuhire imyaka yawe kugira ngo uzabone umusaruro uboneye.

Iruhande rw'umurima munini udahinzemo ahubwo w'umushike, uzitijwe na senyenge ziriho utuntu nk'utw'uduhwa tujombana, hegeranye n'ahantu hari ingo z'abaturage, ndetse hari n'ibiti birebire cyane bigaragara.

Umuceri mu bishanga uba usanga umeze neza kuko haba hari amazi yo kuwuhira, iyo weze uwawuhinze umugirira akamaro kuko abasha kubona amafaranga yarakeneye, akikenura akiteza imbere maze akaba umujejeta faranga.

Mu bishanga ahenshi usanga bahingamo umuceri, kuko ukunda kwira ahantu hari amazi menshi. Niyo bakeneye kuwuhira, bamena amazi hejuru yaho, bayakuye mu migende cyangwa ahandi hantu hari amenshi atemba cyangwa ku migezi yabugenewe, kugira ngo umuceri utumoka kubera izuba ryinshi.

Mu rusisiro ahantu hari imisozi miremire iteyeho amashyamba, intoki, ibishyimbo n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye, harimo amazu agiye atatanye y'abaturage babamo afite ibikoni, amenshi asakaje amabati.

Iyo ugiye mu byaro uhasanga ubutaka bunini budafite ikindi kintu kiriho uretse imyaka, nta bantu baba bahatuye ahubwo ikiba cyihakorerwa ni ubuhinzi, haba hari ibihingwa bitandukanye birimo nk'insina z'ibitoki, hateye ibiti birinda isuri ndetse n'ibindi byifashishwa kugira ngo bizasaturwe bikuze maze bivene imbaho zifashishwa mu bikorwa bitandukanye.

Icyayi ni kimwe mu bihingwa bifitiye akamaro u Rwanda kuko gifatwa nk'igihingwa ngengabukungu, ugifite akitaho maze akazagisoroma akakigurisha ku nganda zigitunganya maze akishyurwa amafaranga make, maze izo ngana zikagitunganya zikagishyira ku isoko kimeze neza.

Leta yashyizeho ingamba zo guhinga wa ku matarasi y'indinganire, yarakozwe, niyo mpamvu abantu benshi bayahingaho. Iyo ubigenje utyo, ubona umusaruro uhagije kandi bikakungukira, ukabona n'amafaranga yo kwikenuza.

Ku misozi miremire harimo inzu zigiye zitandukanye ariko zitegeranye, inyinshi zifite ubusitani buteyemo imikindo ndetse iyo uri muri zimwe, ubona imisozi yitegeye hakurya yaho ndetse n'ibicu by'ubururu.

Mu bishanga usanga harimo amazu y'abaturage, haba hari kandi n'imigende itwara amazi kugira ngo imvura nigwa, yayandi yashotse yaturutse ku misozi, nagera hasi mu bishanga atahatendera ahubwo iyo migende iyatware.

Umuntu uba ahantu hateye ibiti ntashobora kubura umwuka mwiza wo guhumeka. Amashyamba ni ingirakamaro niyo mpamvu ukwiye gukangukira gutera ibiti kuko bikurura umwuka mwiza abantu bahumeka, bityo bakagira ubuzima bwiza kandi ibiti bikurura n'imvura.

Abantu benshi bafata ingurube nk'itungo ridakwiye kwitabwaho nyamara rifite akamaro, ritanga ifumbire nyinshi kandi ribwagura mu gihe gito kandi rikabwagura ibibwana byinshi. Iyo uryoroye ntiwabura amafaranga kuko igihe cyose warijyana ku isoko barigura maze ukikenura.

Dendo ni itungo riri mu biguruka riba rifite amababa menshi kandi hafi yaryo ntago hajyahatana n'umwanda kuko zigira umwanda ukabije, ahantu ifite ijosi rirerire ry'umutuku iri, hari ibikori ndetse hari n'amatafari aharambitse.

Inka ni itungo ryiza, zororerwa mu biraro kuri iki gihe, kuva ubwo Leta yazanye ingamba zihambaye zo kugira ngo abantu barwanye isuri no kwangirika k'ubutaka. Ikiraro ni inzu iba yubakishije ibiti bagiye bateraho imipalato bashyiramo inka cyangwa irindi tungo kugira ngo arimo riba.

Ihene ni itungo buri muturage wese yakifuje korora, ni ryiza kandi ntirigira umwanda n'urusaku. Mu byaro, ku nzu iteye umucanga, ifite urugi rw'ubururu rurimo ikirahure, imbere yaho hari imibyare y'ibitoki, haziritsemo ihene imwe iryamye, indi ihagaze.

Ingurube ni itungo ryiza kandi ritanga amafaranga. Iyo uguze imwe ihita ibyara ukaba wabasha kubona nk'ibibwana birindwi mu gihe kimwe. Abantu bazoroye iyo babibwiwe barazizana maze zigakingirwa zigaterwa n'imitigi igiye itandukanye.

Ingurube ni itungo buri muntu ashobora korora kuko ntirigoye mu kurigaburira, ribwagura ibibwana byinshi ariko niyo yaba iryamye yananiwe ibyana byayo biba biri kuyonka, kuko biba ari byinshi kandi ubwo biba bifite inzara nyinshi.

Inka y'isine iziritse ikaziriko mu ijosi igurisha ubwatsi, iruhande rwayo hahagaze umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ikora, utukura ndetse n'ingofero, wifumbase, inyuma ye hari insina z'ibitoki ndetse n'amashyamba.

Umuntu iyo yoroye inkoko imugirira akamaro kenshi kuko ntashobora kubura amagi yo kurya n'abana be ntibarwara bwacya, kuko ziba zifite akamaro kanini mu buzima bwe, ni yo mpamvu ahantu hari urugi rw'ibiti ndetse hari n'imbuga irimo amabuye hari inkoko nyinshi zitandukanye ziri mu ngano zitandukanye.

Iruhande rw'inzu yubakishije ibyondo mo imbere irimo imiparato, hari umugabo ufite ihene iziritse umugozi mu ijosi, arawukuruye, yambaye bote, ipantaro y'umukara, umupira w'ubururu w'amaboko maremare urimo ibara ry'umweru hejuru n'agapira k'umutuku imbere.

Ingurube ni itungo rimeze neza kandi rifitiye akamaro abantu baryorora. Nubwo zigira umwanda ariko ribifasha mu gutanga ifumbire nyinshi ku buryo uzoroye atabura icyo ahingisha. Zibwagura ibibwana byinshi kandi bityo uzoroye akabasha kubona amafaranga menshi.

Ubworozi bw'inkoko mu Rwanda bwateye imbere. Hari utuzu zubakirwa, ziba zituyemo, maze tukazifasha guhumeka neza. Kubera isuku iba iri aho hantu ntabwo izi nkoko zishobora guhura n'indwara izo arizo zose zijyanye n'umwanda.

Inka iyo ikiri inyana uba usanga bayishyira ahantu heza hari icyari gihagije, bakayizirika umugozi kugira ngo itaza gutana igacika mu rugo, kuko akenshi ntiba ihaze. Iri ku cyarire cyinshi, ifite amabara y'umweru n'umukara, iziritswe ikiziko mu ijosi.

Ibishyimbo bifitiye akamaro kanini abanyarwanda, n'abaturage bo mu isi muri rusange, bigira intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye, byifashishwa kandi mu gukora ibindi bibikomokaho harimo nka biswi, niyo mpamvu abahinzi bakangurirwa guhinga cyane, ariko bita ku gihingwa cy'ibishyimbo.

Imyumbati iribwa mu buryo bubiri, bayirya imizi ariko n'amababi yayo araribwa, imizi urayikura ukayikuraho maze ukayitunganya ikaribwa yitwa imyumbati, na ho amababi yo urayasoroma ukayasya maze akaribwa nk'imboga.

Inyanya abantu bazihinga zibagirira akamaro, babona amafaranga menshi bazikuramo, kuko zirunguka cyane nta muntu n'umwe utunganya inyanya cyangwa uzihinga ukena, kuko zinjiza amafaranga menshi ku bantu bazishoye mu mushinga wo kuzihinga.

Ibihoho binini byifashishwa mu gutubura avoka, ahantu zibanguririrwa haba ari hanini kandi ziba zaritaweho kugira ngo zigire ubudahangarwa zikiri nto niziramuka zigiye guterwa aho zizakurira, zikerera zitazagenda zihungabana cyangwa zihura n'indwara nyinshi zitandukanye.

Iruhande rw'akayira hari ibyatsi birebire, bimwe bigenda bikora mu nzira, ibindi bitagize icyo byangiza, hari amazi ushobora kugenda ukadahaho ukifashisha mu mirimo itandukanye, hari ibiti by'isombe kandi ndetse n'ibisheke twese tuzi akamaro kabyo.

Iyo umuntu ashaka kugira ngo azabone umusaruro uhagije yita ku buryo ahinga, niyo mpamvu ahantu hasakaye, hejuru hariho ibyatsi, harimo ibihingwa bitoshye bisashije ibyatsi byumye kugira ngo ubutaka bw'ahantu uhinze butazuma.

Iyo abantu bejeje ibigori barabifata maze bakabihanika ahantu ku rusenge bakareka izuba rikabivaho, iyo bimaze kuma barabitonora maze bakabihungura bigahinduka ibyo kurya, cyangwa bakajyana ku ruganda bakabisya bityo bagakoramo amafu agiye atandukanye.

Inyanya, ni igihingwa umuturage wagihinze, kimubyarira umusaruro bityo akabasha gukirigita ku ifaranga. Niba nawe ujya uzihinga, urabizi neza, amafaranga warayahaze. Mbese wabaye umujejetafaranga.

Umusaruro wavuye mu bihingwa, akenshi uratunganywa maze ukajyanwa ku isoko. Ariko muri iyo mitunganyirize, harimo no kuwufata ukawanika, ku zuba ryinshi kugira ngo, uzabashe kubona abawugura. Niyo mpamvu, niba uri umuhinzi ukangurirwa kwita ku musaruro w'ibyo uba warahinze.

Umugabo wambaye agapira ka rakositi k'amaboko magufi, arasutamye, ari gukora kuri marakuja ziri mu bihoho muri pipinyeri, inyuma ye hari umugore ufite rozwari, uri kuhira ibindi biti biri inyuma mu bihoho by'umukara.

Mu bishanga ubusanzwe habaharimo amazi y'ibidendezi yanduye umuntu atanywa, akenshi yifashishwa mu mirimo itandukanye irimo iy'ubwubatsi, hafi y'aho ayo mazi aba ari haba harameze ibyatsi bitoshye kuko bibafata kuri ayo mazi, imizi yabyo ikabasha gushisha ikagaburira bya byatsi maze bigakura bimeze neza.

Mu kiraro kiriho ibiparatompeke, harimo inka iri ahantu hari ijagi, umwana ari kuyigaburira ashyira ibyatsi muri monjwari, yambaye agapira k'amaboko maremare gatukura, iruhande rwe hari imitwaro y'imishingirizo.

Iyo uri umworozi, uba uzi uburyo wafata itungo ryawe ukariha umuti. Mu kiraro umugabo wambaye umupira w'amaboko mugufi, urimo amabara y'umukara n'umweru, bote, n'ipantaro n'ingofero, afashe umunwa w'inka yayiraritse, ari kuyitamika ibintu bimeze nk'umuti.

Ubworozi bw'inka mu Rwanda buteye imbere, kuko buri muntu wese aba yumva yakorora, niyo mpamvu igihe kimwe abaturage bazana inka zabo aho babwiwe, maze zikitabwaho n'abantu babyigiye bafite ubumenyi buhagije mu kwita ku matungo.

Inka iyo imaze gukura, barayifata bakayitera iherena, bigatuma nyirayo atayiyoberwa, kandi amenya ikimenyetso cyayo. Buri herena riba ryanditseho imibare iranga ubwoko bw'iyo nka, ku buryo nyirayo abasha kuyisobanukirwa.

Iyo waroye inka uba ufite amahirwe ko uzajya a winjiza amafaranga menshi ku kwezi, ni yo mpamvu abaturage muri iki gihe bakangukiye ubworozi bw'inka, impande y'igiti hari inka ifite amabara abiri, umukara n'umweru baziritse umugozi mu ijosi.

Imbwa ni itungo abantu borora mu rugo nubwo zimwe na zimwe ziba binani, Leta yashyizeho gahunda yo kuzikingira kugira ngo mu gihe ziramutse zirumye umuntu atazajya agira ikibazo, iyo miti iterwa imbwa kandi ifasha mu kuzigabanyiriza ibisazi.

Inkende ni inyamaswa zifitiye akamaro igihugu kuko ziba zimeze neza kandi abakerarugendo bakunda kuza kuzireba, ntizangiza ibintu ziba zifite imirizo miremire, zikunda abana bazo kuko iyo yabyaye umwana wayo akiri muto nta hantu yajya itamujyanye.

Inyoni ni ikinyabuzima Kiza gifitiye akamaro Isi. Kugira ngo indabo zibangurirwe zere bisaba inyoni n'utundi dusimba. Ni yo mpamvu akamaro kazo kadakwiye gukereswa. Hari ifite amabara y'umukara avanze n'umweru, akanwa karekare gasongoye ishora mu ndabyo igiye gukuramo ubuki ndetse n'amababa akomeye manini.

Mu gihe cyatambutse abantu muri Afurika no mu Rwanda bafataga imbwa nk'itungo ryo mu kinani, baribona bakaritinya, nyamara ubu abaturage benshi basigaye bazigura, bakazorora mu ngo kuko bazigize itungo ubu ngubu ryororerwa mu rugo.

Inkende ni zimwe mu dusimba abantu benshi bakunda, kuko zigaragara neza. Zikunze kuba ziri ahantu mu byaro, mu mihanda y'ibitaka, ahantu zibasha kubona ibyo kurya mu buryo buzoroheye. Niyo mpamvu niba ubonye inkende ntukayonone, ahubwo ujye uyigaburira, kugira ngo ikomeze igire ubuzima bwiza.

Iyo ugiye mu ishyamba usangamo ubwoko bwinshi butandukanye bw'inyamaswa utamenya; hari iziba zurira ibiti zikoresheje amaboko yazo, hari n'iziba ziguruka. Niyo mpamvu impande y'urugo hubakisheje amatafari ahiye, hari akanyamaswa gato k'umukara gafite umurizo ufite ibyoya byinshi kari kurira igiti gakoresheje amaboko yako.

Mu mashyamba habamo ubwoko bugiye butandukanye bw'inyoni, hari igihe ugeramo ukabona ubwo utari uzi, akenshi inyoni ziba zibereye mu biti, iyo zivuye gutora ahantu zahaze ziba ziyicariye mu biti maze zikiyotera akazuba cyangwa zigategereza akayaga kazihuha.

Inkende ziri mu muryango w'inyamaswa zigendesha amaguru yose ay'imbere n'ay'inyuma. Zigira imirizo miremire ndetse no mu maso hazo iyo zimaze gukura harirabura cyane, gusa ziteye nk'abantu mu maso. Niyo mpamvu abenshi bakunda kuvuga ko abantu ari zo bakomotseho.

Iyo utembereye mu mashyamba usanga mu bwoko bugiye butandukanye bw'inyoni, hari ziba zifite imirizo miremire, izifite imigufi n'izindi nyinshi. Ku giti kiriho amahwa menshi hahagazeho inyoni ifite amaguruye y'umukara, amababa y'ubururu ndetse ifite umurizo muremure n'umutwe wumuhondo ufite ho hejuru umusatsi utukura.

Igikona ni igisiga k'ikinyamahoro, ntigitera amahane, nticyangiza ibintu, nta kintu cyonomye. Kiba gifite ibara ry'umweru mu gatuza, ahandi hose hasigaye, amababa yacyo n'uruhu n'umubiri byose bifite ibara ry'umukara.

Ibitera inyamaswa zikunda kugendera mu gikundi. Ziri mu bwoko bw'inkende, kuko na zo zigira imirizo miremireye kandi zikagira mu maso hajye kumera nk'abantu. Nubwo iyo ubivuze abantu batukana cyangwa bakarakara, kuko batameze nkazo, ariko iyo uzitegereje neza ubona bajya gusa.

Ingagi ni inyamaswa mu Rwanda baha agaciro gakomeye, buri umuntu wese azi agaciro kayo, abanyamahanga bazaba baje kuzisura, ziba muri pariki y'Ibirunga kandi iyo uhageze uhita ubona ubwiza bwazo.

Kuri iyi si hari urusobe rwinshi rw'ibinyabuzima bigiye bitandukanye, birimo nk'inyoni n'ibindi bitandukanye. Mu ishyamba riri impande y'ahantu hateye insina z'ibitoki, hahagazemo inyoni ifite umusatsi w'umutuku, umunwa w'umuhondo, amababa atukura, ndetse hejuru ku ibaba hariho ibara ry'ubururu.

Ingagi ni itungo cyangwa inyamaswa ifitiye akamaro igihugu cy'u Rwanda, ikurura ba mukerarugendo niyo mpamvu ahenshi ugiye usanga zihari, iyo ubikangukiye ukamenya akamaro k'ingagi ntabwo uzihungabanya ngo aho uzibonye uzitere imijugujugu.